Aba ni abagabo bagera kuri bane bicaye ku ntebe z'umukara ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama barakeye ku maso yabo ndetse n'imyambaro, imbere y'abo kandi hateretse uducupa tw'amazi kuri buri muntu.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe basa nk'abakuze, baracyeye ku myambaro. Imbere yabo hari abandi bari kumwe nabo bisa nkaho bari kujya inama, ubona ko ar'ibintu byiza bibereye ijisho.

Iyi ni inzu nziza ifite amarido kuruhande yakingirije amadirishya, yuzuyemo abantu benshi, bisa nk'aho bari mu nama, barakeye, bambaye neza, imbere yabo ateretse uducupa tw'ibiryohereye ndetse n'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe heza barakeye cyane bisa nkaho bari mu nama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo hateretse uducupa t tw'amazi yo kunywa, ni ibintu bigaragara neza.

Aba ni abantu benshi higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ahantu hamwe, hari amatara meza atanga urumuri agiye atandukanye, amabara bambaye ni imyeru yiganjemo ndetse n'amakote y'ubururu.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe barakeye kandi barishimye mu maso yabo ubarebye, bambaye neza mu bigaragara higanjemo abakobwa ndetse n'abagabo ubona basa nk'aho bakuze wagira ngo bari mu nama.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu igizwe n'amabara y'umweru barakeye, umwe muri bo arahagaze abandi baricaye imbere yabo kandi hari uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bicaye ku ntebe z'umutuku barakeye kandi barishimye higanjemo abagabo ndetse n'abagore bisa nkaho bose bari mu nama.

Aba ni abantu benshi ubona bicaye ahantu hamwe, biganjemo abagore ndetse n'abagabo, basa nk'abakuze ubarebye mu maso ya bo, benshi muri bo bambaye amakote y'ubururu ndetse n'amashati y'umweru.

Aba ni abantu benshi ubona bari ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo ubona bari kubyina bishimye bisanzuranyeho ni ibintu bigaragara neza cyane mu maso y'ubireba.

Aba ni abantu babiri bari hamwe, urabona ko bakeye Haribyo bari kuvuga. umwe muri bo wicaye imbere yambaye agakanzu k'umweru, karirimo utudomo tw'umukara. Afite igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kurangurura amajwi ngo agere ku bantu benshi.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe mu nzu nini nziza y'amabara y'umweru n'amatara agiye atandukanye, buri umwe wese hateretse imbere agacupa k'amazi ndetse n'ibiryohera.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe urabona ko bakeye bicaye ku ntebe z'umukara, bane muri bo bari imbere y'igitambaro cy'umuhondo hateretse amazi yo kunywa undi arahagaze.

Aba ni abantu beshi bicaye ahantu hamwe biganjemo urubyiruko ubarebye neza basa nkaho bafite ikintu bakurikiye bambaye impuzankano bose zisa ubururu imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Uyu ni umugore mwiza ubona usa nk'ukuze, arikwandika ibintu ntabashije kumenya, umusatsi we urasokoje, yambaye ikote ry'umutuku ndetse n'agapira k'umukara. Imbere ye hateretse agacupa k'amazi bisa nkaho ari mu nama.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane ubarebye ku myambaro yabo, mumaso yabo baragaragaza ibyishimo, umwe muri bo afite mudasobwa ku bibero bye.

Aba n'abantu babiri bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hari Imeza nziza cyane ndetse n'uducupa tw'amazi, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru yateretse ubwanwa ubona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bisa nkaho bari mu nama, bambaye neza imbere yabo kandi hari ikoranabuhanga ndetse na murandasi n'agacupa k'amazi kuri buri umwe wese uri aho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye bafite ibyishimo ku maso yabo, bicaye ku ntebe z'imikara inyuma kandi hari icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu cyanditseho ingengo y'imari n'imihigo.

Aba ni abantu benshi ubona bahagaze ahantu hamwe basanga bakuze barishimye bariguseka ubarebye ku maso yabo, umudamu umwe muri bo wambaye ikanzu ateruye akana gatoya, hasi kandi abahari bicaye bazengurutse bose muri bo bafite murandasi imbere yabo.

Aba ni abantu benshi ubona basa nkabakuze bicaye ahantu, imbere yabo hateretse uducupa tubiri kamwe k'amazi akandi k'ibiryohera, bambaye impuzankano zijya gusa umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Aba ni abantu bagera kuri bane, bicaye ahantu hamwe, bari kuganira, barishimye mu maso yabo, barakeye mu myambarire yabo, higanje mo abagabo ndetse n'abagore, imbere kandi hateretse uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bicaye ku ntebe z'umukara, barakeye ubarebye ku myambaro yabo, imbere kandi hateretswe mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi kuri buri umwe wese uri aho.

Aba n'abantu benshi ubona basa nk'abakuze higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari uducupa tw'amazi bisa nkaho bari nama bitewe n'ukuntu bameze.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bisa nkaho bari mu nama intebe zabo zose zirasa, barakeye cyane barebye ku maso bafite ibyishimo higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Iyi ni inzu nini ifite amabara y'umweru hejuru hateretse n'amatara agiye atandukanye yicayemo abantu ubona bakeye, benshi muribo barahuze bari kureba mu ma telephone yabo wagirango bari mu nama.

Iyi ni inzu nini igizwe n'amabara y'umweru, irimo abantu benshi bicaye ahantu hamwe, bari kureba umugabo uri imbere yabo, wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, hirya gato hari icyapa, kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, cyanditse ho amagambo agira ati "umuturage ku isonga mu miyoborere"

Iyi ni inzu nziza kandi nini igizwe n'amatara agiye atandukanye, inkuta ebyiri ku mpande zijya gusa ubururu hicayemo abantu benshi ubona wagira ngo bari mu nama barakeye kandi baraberewe mu myambarire.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, basa nk'aho bakuze, bambaye neza ku myambaro yabo, umwe muri bo afite murandasi imbere ye ndeste agacupa k'amazi, urabona ko ari ibintu byiza cyane, bishimye!

Aba ni abantu bagera muri barindwi bicaye ahantu hamwe umwe muri bo arahagaze asa nkuri kubagezaho ijambo yambaye ishati y'umweru agasatsi ke karasokoje, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama, bambaye neza barakeye ku maso yabo, imbere kandi ateretse uducupa tw'amazi, umwe muri bo na za murandasi.

Aba ni abantu bagera muri barindwi, bicaye ahantu hamwe ku ntebe zizengurutse, bamwe muri bo imbere yabo hateretse za murandasi ndetse n'uducupa tw'amazi, urabona ko bakeye cyane, bisa nk'aho bari mu nama.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe. Uko bigaragara ku ntebe z' umukara. Imbere yabo hateretse za murandasi n' amazi yo kunywa. Higanjemo abagore ndetse n' abagabo bisa nkaho bari mu nama.

Aba ni abantu bagera kuri bane bicaye ahantu hamwe ku ntebe zisa umukara higanjemo abagore ndetse n'abagabo urabona ko ari ibintu byiza cyane bakeye ku maso bafite n'ibyishimo bisa nkaho bari kuganira.

Aba n'abantu benshi bahagaze ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo, ubarebye kumaso yabo urabonako bakuze bari imbere y'ibirahure bibonerana.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe urabona ko bakeye ku maso yabo bari mu nzu isize amabara y'umweru ndetse n'amadirishya ni uko abandi bari imbere ni abagore batatu ndetse n'umugabo umwe.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo urubyiruko ndetse n'abakuze, bambaye neza, barakeye ku maso yabo, aho bicaye ni ahantu hazengurutse, ubona ko bigaragara neza cyane.

Aba ni abantu benshi, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bose ubarebye basa nk'abakuze, ibere yabo hateretse murandasi, hirya ni agacupa k'amazi, barakeye cyane, ibyishimo ni byose mu maso yabo.

Ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe higanjemo abagabo gusa bisa nkaho abenshi ari urubyiruko ndetse n'abandi bakuze. Nawe rero nakugira inama yuko wajya wegera ahantu nk'aha Kubera ko bigufasha kuhakura bimwe mu bintu atari uzi.

Iyi ni inzu nini igizwe n'amatara y'imyeru hejuru kuruhande kandi hari amabara meza cyane, yicayemo abantu ubona bakeye bisa nkaho bari mu nama, bibereye ijisho.

Aba ni abagabo batatu basa nk'abakuze, umwe muri bo yambaye amadarubindi, ndetse impuzankano zabo bose zirasa, barakeye, bafite ibyishimo ku maso yabo kuko biragaragarira buri wese ubarebye.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bicaye ahantu hamwe abagabo babiri ndetse n'umugore umwe mwiza cyane, imisatsi miremire wambaye umupira w'umutuku, imbere yabo bose hateretse uducupa tw'amazi bisa nk'aho bari mu nama.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama barakeye ku myambaro yabo imbere kandi hateretse uducupa tw'amazi yiganjemo abagore ndetse n'abagabo ,

Aba ni abantu batatu ubona bakeye babiri ni abagabo, undi ni umugore, umwe muri abo yambaye ishati y'ubururu ndetse umusatsi we urasokoje bose amaso bayerekeje ahantu hamwe bicaye ku ntebe z'umukara zisa.

Uyu ni umugore usa nk'uri mu kazi afite ikirangururamajwi mu ntoki ze ahagaze mu busitani bwiza butoshye busa icyatsi. Hirya ye gato hari abantu benshi bicaye basa nk'abari kumutega amatwi bari kumwumva bose.

Aba ni abantu bagera kuri bane, bicaye ku ntebe zisa, bambaye impuzankano zimeze kimwe bose ni amabara y'umweru, biganjemo urubyiruko, abakobwa ndetse n'umuhungu umwe, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe ubona bahanze amaso ku bintu runaka, umukobwa yambaye amadarubindi ndetse umugabo afite agakote keza n'agashati kajya gusa umutuku agasatsi ke karasokoje arabona ko bakeye ubarebye ku myambarire.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe ku ntebe zisa higanjemo abagore ndetse n'abagabo barakeye ku maso yabo bamwe muri bo bari guseka bafite ibyishimo mu buryo bugaragara .

Iyi ni inzu nziza igizwe n'amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, ku ruhande irimo abantu bagera kuri bane, higanjemo abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, urabona ko ari ibintu byiza bibereye ijisho buri wese imbere ye hateretse mudasobwa.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi rurasa ubururu bwose, harimo umukobwa usa nk'aho akiri muto yambaye inkweto z'umweru, ari guseka ndetse ari kureba muri telefone ye yicaye ku ntebe z'imifariso.

Uyu ni Umuhanda munini w'umukara wo mu bwoko bwa kaburimbo, ukikijwe n'ibiti birere by'icyatsi bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi. Hari kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, huzuyemo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto ndetse n'abantu ku ruhande bari kugendamo.

Uyu n'umunara muremure uri mu mabara y'umweru ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye by'icyatsi binini ubona byiza bitoshye bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku begereye aho ngaho bose.

Aha ni ahantu heza ushobora gutemberera igihe unaniwe ukicara, hazengurutswe n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, si ibyo gusa kandi hari n'amazu agerekeranyije ari hafi yaho.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe, biganjemo igitsinagabo ndetse n'abagore bakeya, imbere yabo hateretse za murandasi, hari uri imbere ari kubasobanurira, nabo bakurikiye.

Uyu ni umugabo ubona usa n'ukuze ahagaze mu muhanda w'igitaka ari guseka afite ibyishimo, yamabaye umupira ujya gusa umukara ndetse n'ipantalo nziza cyane, agasaha kabengerana, agasatsi kiwe karasokoje.

Uyu ni umunara muremure usa umweru uzengurutswe n'ubusitani bwiza bwicyatsi butoshye ,indabo zivanzemo iz'umuhondo hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi .

Iri ni darapo rimanitswe mu kirere rigizwe n'amabara y'icyatsi umuhondo n'ubururu harimo n'izuba ribengerana, rikikijwe n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku begereye aho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara haragendamo abantu bagiye batandukanye, ukikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahagenda bose.

Iyi ni inzu nini iri munsi y'umukingo, isize amabara y'umutuku ku mabati yayo, ikikijwe kandi n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usa umukara ukikijwe n'utundi tubara ku ruhande tw'umweru, haragendamo ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare ndetse n'imodoka zitwara abagenzi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, uri kugaragara igice cyo ku ruhande rusize uturongo tw'umweru ndetse n'umukara, hirya yawo hari ubusitani bwiza bufite ubwatsi butoshye n'igiti kirekire.

Uyu ni umuhanda mwiza wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, hari kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye imodoka ndetse na moto, ku ruhande gato hari ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, gikikijwe n'ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku begereye aho ngaho bose.

Uyu ni umunara muremure uri mu mabara y'umweru, ushinze ahantu hari ibyatsi bitoshye, hirya gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga, ndetse n'amahumbezi ku bahegereye bose.

Iki ni igipangu kirekire ubona kinini hasi yacyo hari ubusitani butoshye bw'icyatsi, imbere yacyo kandi hari ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga zigiye zitandukanye.

Iri nipoto ririre risa umukara, zuzuyeho insinga zigenda zikwirakwiza amashanyarazi, rikikijwe n'ibiti binini by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iri ni ipoto ricaho insinga zikwirakwiza amashanyarazi rikikijwe n'ibiti by'icyatsi bitoshye birebire, ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku baturiye aho bose.

Iyi niminara miremire minini ubona yifashishwa mugukwirakwiza ibijyanya n'itumanaho ikikijwe n'ibyatsi bitoshye ubonako ari Ibintu byiza cyane bigaragarira amaso y'ubireba.

Uyu ni umunara muremure ugizwe n'amabara y'umweru, ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane n'indabo z'umuhondo ndetse n'icyatsi, hirya gato hari ibiti binini ubona bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ibi ni ibinyabiziga bitandukanye biri ahantu hamwe bifite ibyerekezo bimwe biri mu muhanda byose imwe irasa umweru indi n'umukara hagati hari moto itagaragara neza hirya yayo hari indi y'umutuku.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo n'umweru, ku ruhande haragenda ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, hari n'abantu bahahagaze urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umunara ufasha mu gukwirakwiza itumanaho mu buryo bworoshye ni muremure cyane ukikijwe n'ibyatsi byiza ubona bitoshye, impande n'impande urabona ko ari ibintu byiza cyane binogeye ijisho.

Aya ni amazu maremare kandi meza asizwe amabara y'umweru, hejuru hasi hakaba umuhondo, akikijwe n'ubusitani bw'icyatsi butoshye burimo indabo zigiye zitandukanye.

Ubu ni ubusitani ubona ko ari bunini cyane buri mu mabara y'icyatsi, hirya gato hari uturabo tw'umutuku ndetse n'umuhondo, urabona ko ari ibintu byiza cyane bukikijwe n'amazu agiye atandukanye.

Uyu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuruhande n'utundi tw'umuhondo ,hagati ukikijwe n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda bose.

Ubu ni ubusitani bwiza busa icyatsi butoshye barimo indabo zigiye zitandukanye nk'umutuku umuhondo hirya gato kandi hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi byegereye amazu araho.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'uri kugenda, yambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro ya kaki, hirya ye hari imodoka nziza cyane y'umweru, n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni ahantu heza hari inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije igizwe n'ibirahure by'umukara, hanze gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi n'ibindi binyabiziga bihahagaze.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi hejuru ku mabati, ikikijwe n'ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye zitoshye hirya gato hari umuntu wambaye agapira k'umweru.

Uyu ni umuhanda muremure wo mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara, ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye, umuhondo, icyatsi, ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ubu ni ubusitani bwiza ubona butoshye bw'icyatsi, burimo indabo zigiye zitandukanye ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose, hirya gato hari ibinyabiziga bihagaze.

Iyi n'inzu nini isize amabara y'umweru kumpande, hasi hakaba umutuku hari abantu benshi bahari bamwe barahagaze abandi baricaye, inyuma y'umudamu gato hari igikoresho kifashishwa mukuzimya umuriro.

Uyu ni umuhanda munini usa nk'ushaje ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye zitoshye zicyatsi zose, iruhande gato hari inzu ndende iri mu mabara y'umuhondo n'amabati y'umutuku.

Uyu ni numugabo usa n'kukuze wambaye ikanzu y'umutuku ishati irimo uturongo, ndetse n'umweru imbere agasatsi ke karasokoje urabona ko afite ibyishimo ku maso hiwe aranezerewe.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze yambaye ikanzu y'umutuku irimo umukara hagati ndetse n'umweru ishati ni ubururu bwerurutse urabona ko asa nk'uwishimye kumaso ye agasatsi karasokoje aragaragara neza cyane.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, afite ibyishimo ku maso he harakeye, yambaye ingofero y'umukara irimo akarongo k'umuhondo, ndetse n'ikanzu y'umutuku ifite umweru hagati.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze ku maso he nta musatsi na mukeya afite ari kureba imbere yambaye ikanzu y'umutuku n'umweru hagati urabona ko ari ibintu bigaragara neza cyane .

Aba n'abantu benshi bari ahantu hamwe bicaye kandi batuje urabona ko bakeye, bazengurutswe n'amatara agiye atandukanye bambaye impuzankano z'umukara ndetse n'umweru imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu benshi, bicaye ahantu hamwe, higanjemo abakuze, hari umugabo wambaye ishati y'ibitenge uhagaze imbere y'abandi bagera kuri batandatu, bicaye kuntebe, imbere yabo hari imeza ndetse n'ibitabo.

Uyu ni umugore mwiza w'inzobe usa nkukuze, yambaye ikanzu y'umutuku irimo umweru hagati, afite imisatsi miremire y'imikara urabona ko ari ibintu bikeye cyane ari byiza.

Aba ni abantu bagera muri batanu, batatu barahagaze abandi babiri baricaye, umugabo uri hagati wambaye imyenda y'umutuku n'amadarubindi, abandi bahuriye ku mpuzankano z'umukara ndetse n'umweru.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bamwe basa nka baryamye kumeza bose bari guseka bambaye impuzankano zisa, bafite ibyishimo ku maso yabo ni byiza cyane kumuntu ubireba.

Uyu ni umudamu mwiza ubona usa nkukuze yambaye ikanzu y'umutuku amadarubindi y'umukara umusatsi ni muremure afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kiyageza ku bantu benshi mu kiganza cye.

Aba ni abantu babiri bicaye ahantu hamwe basa nk'abakuze higanjemo umugore ndetse n'umugabo, wambaye ikanzu y'umukara n'umweru hagati, afite telefone mu biganza bye abona ko ari ibintu byiza basa nk'abari kuganira.

Aba ni abantu bagera muri bane bari ahantu hamwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda isa bose impuzankano zimwe, umukara ndetse n'umweru hagati.

Aba ni abantu benshi bari kugenda baturuka ahantu hamwe bajya ahandi. Bambaye impuzankano zijya gusa umukara ndetse n'umweru hagati. Bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe basa nk'abakuze ubarebye neza bambaye mu buryo bwiza cyane bibereye ijisho umwe muri bo aragaze n'agakote k'umukara asa nk'uri kugira ijambo ageza ku bandi.

Uyu ni umudamu ubona usa nk'ukuze ari guseka afite ibyishimo ku maso he, agasatsi karasakoje, yambaye ikanzu y'umutuku irimo umweru hagati, urabona ko ari ibintu byiza cyane aberewe.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze, nta musatsi afite, arakeye yambaye amadarubindi, n'ikanzu y'umutuku irimo umukara n'umweru hagati, n'ishati y'ubururu.

Aba ni abantu bicaye ahantu hamwe biganjemo abakobwa ndetse n'abahungu ubona ko bakiri batoya bambaye impuzankano zijya gusa umweru ku rutugu hariho amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Abana ni abantu batatu bahagaze ahantu hamwe, ubarebye neza mu maso basa nk'abakuze, bambaye imyenda isa umukara ndetse n'umweru hagati, kuruhande kandi hari umugabo wambaye amadarubindi ari imbere ya mudasobwa.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama barakeye hagati yabo hari kunyura abagabo bambaye impuzankano z'umutuku ndetse n'ingofero z'umukara umwe muri abo uri imbere afite idarapo ry'igihugu cy'u rwanda amu maboko ye.

Iyi ni imodoka nziza y'umukara ubona ihagaze ahantu hamwe isa nk'itwara abantu ndetse n'imizigo hirya yayo hari indabo z'umuhondo ikikijwe nibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi .

Icyi ni icyapa kinini cy'umweru kiri ku muhanda kiranga amerekezo y'ahantu gishinze mu busitani bwiza, hirya gato hari indabo z'icyatsi ndetse n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara, uturongo tw'umweru, ukikijwe n'ubusitani bwiza, ku ruhande gato hari ibiti birebire binini ubona bitanga umuyaga na mahumbezi aho hantu.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye bitunguranye, gisa umutuku ahantu hose, ndetse n'umunwa w'umukara, ni ibintu byiza cyane nawe ushobora kuba watunga iwawe bikaba byakugirira akamaro mu gihe utewe n'ibyo biza.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo moto , imodoka ndetse n'abantu bari kuruhande hari inzu nini yo mu bwoko bwa etage isize amabara y'icyatsi kumabati yayo .

Iki ni igikoresho cyibanze kifashishwa mu kuzimya umuriro, mu gihe uguteye mu buryo butunguranye, kirasa umutuku impande n'impande, hasi hato ni umukara. Nakugira inama rero yuko nawe wagitunga ukajya ubasha kubyikorera mu gihe ubutabazi bukuru butarakugeraho.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara, uturongo tw'umweru ku ruhande, uri kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, moto, imodoka, ndetse n'abantu muri rusange.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, kirasa umutuku ndetse n'umukara hasi yacyo, nawe rero nakugira inama yuko wakigura kubera ko kirafasha igihe utewe n'ibyo biza bitaguteguje

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro, kirasa umutuku, ndetse n'umukara ku munwa wacyo, iriho ibipapuro byinshi byanditseho amagambo agiye atandukanye, nakugira inama rero yuko nawe waba ugifite iwawe kubera ko kirafasha.

Uyu ni umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umukara ndetse hari ikindi afite mu maboko ye hari n'abandi babiri bari kuruhande bari gufata amashusho bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga aho hantu.

Iyi ni inzu nini izengurutswe n'amatara hejuru y'umweru, irimo intebe z'umukara gusa ndetse n'utumeza tujya gusa umuhondo, abayirimo bose barakeye urabona ko bishimye ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi ubona bahaze ahantu hamwe barishimye ubarebye ku maso yabo, abenshi muribo n'abagabo ndetse n'abagore bacyeya bambaye imishanana, abandi ni amakote y'umukara ndetse n'ubururu.

Aba ni abantu bagera muri batandatu higanjemo abagabo batanu ndetse n'umugore umwe wambaye ikote ry'umweru n'amadarubindi, imbere ye hateretse ibitabo ari gusoma.

iyi ni inzu nziza ifite amabara agiye atandukanye impande n'impande amatara yayo yose araka umweru wuzuyemo abantu benshi abagore ndetse n'abagabo buri wese afite mudasobwa imbere ye ndetse n'agacupa k'amazi.

Uyu ni umugabo mwiza cyane, umeze nk'ukuze mu maso he, agasatsi ke karasokoje, urabona ko ari ibintu byiza cyane, yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, ari imbere y'igitambaro cy'icyatsi.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe bose bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda bazamuye ibiganza byabo, umwe ni umugabo undi ni umugore bambaye imishanana ubona akeye cyane ku maso.

Uyu ni umugore usa nk'ukuze, agasatsi ke karasokoje, yazamuye ikiganza akandi kaboko gafashe ku idarapo y'igihugu cy'u Rwanda, yambaye imishanana n'amadarubindi y'umukara.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bafite ibyishimo, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi bisa nkaho bari mu nama yiganjemo abagore ndetse n'abagabo.

Uyu n'umugabo usa nk'ukuze wambaye amadarubindi ikote rijya gusa umukara, ishati y'umweru agasatsi ke karasokoje, urabona ko akeye, imbere y'umureba yaba ku myambaro ndetse no mu isura.

Uyu ni umugabo uhagaze umanitse akaboko yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umukara ndetse na karuvate irimo uturongo. Umusatsi we urasokoje nk'uko byanditse hasi yitwa Utumatwishima minisitiri w'urubyiruko.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe bari kuganira bicaye ku ntebe z'imikara, urabona ko bishimye biganjemo umugore ndetse n'umugabo, wambaye ikote rijya gusa ubururu agasatsi ke karasokoje urabona ko ari ibintu bikeye cyane.

Uyu ni umudamu ubona usa nk'ukuze arishimye umurebye ku maso yambaye amadarubindi by'umweru ndetse n'imyambaro hasi no hejuru ubururu, urabona ko ari ibintu byiza cyane bimubereye.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze agasatsi ke karasakoje arake ku maso yambaye amadarubindi, ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, karuvati iriho uturongo tugiye dutandukanye.

Uyu ni umugabo ubona usa nkukuze agasatsi ke karasokoje bisa nkaho ari guseka, yambaye amadarubindi, ishati y'umweru ndetse na karuvate irimo uturongo, inyuma ye hari igitambaro cy'umukara.

Aba n’ abantu benshi bari ahantu hamwe basa nk'abambaye impuzankano zijya gusa, bamwe barahagaze, abandi baricaye harakeye higanjemo abagore, ndetse n'abagabo urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu bane bahagaze ahantu hamwe, bambaye neza, urabona ko bakeye, higanjemo abagore babiri ndetse n'abagabo, umwe muri bo afite ikirangururamajwi mu maboko ye, asa nk'uri kuvuga.

Aba ni abantu benshi ubona bahagaze ahantu hamwe, barakeye ku myambaro, higanjemo abagabo ndetse n'umugore usa nukuze, ku ruhande hari igiti kirekire kandi kinini gitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda bose.

Uyu n'umugabo mwiza wambaye amadarubindi ikote ririmo uturongo ndetse nishati y'umweru agasatsi ke karasokoje umurebye urabona ko ari kugira ikintu avuga afite ibyishimo mumaso ye.

Aba ni abantu bagera kuri bane bahagaze ahantu hamwe bose bazamuye ibiganza byabo, higanjemo abagabo ndetse n'abagore bambaye amakote meza n'abandi bambaye imishanana ubona ko bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bibereye ijisho.

Aba n'abantu batatu bahagaze ahantu hamwe, umwe muribo yambaye ikote ry'imirongo ndetse n'ishati y'umweru afite urupapuro muntoki, inyuma ye hicaye umudamu ubona mwiza cyane utuje.

Aba ni abantu benshi buzuye ahantu hamwe, guhita umenya uyu mubare wabo byakugora, bambaye impuzankano bose zijya gusa umweru wiganjemo ubururu n'umutuku, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe uko bigaragara bari mu nama, barakeye bambaye neza, bicaye ku ntebe zisa umukara uko ari bose, imbere yabo hari umugabo uhari usa n'ukuze afite ijambo ari kubagezaho.

Aba ni abakobwa cyangwa se abagore urebeye ku myambarire yabo bambaye impuzankano y'umweru hejuru, hasi umukara. Hirya gato hateretse uduseke tubiri ndetse n'ururabo imbere y'imeza

Uyu ni umugabo wicaye ku ntebe nziza cyane yegamye agasatsi ke karasokoje afite terefone mu ntoki ze, yambaye ikote rijya gusa ubururu n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara n'isaha nziza cyane.

Aba ni abagabo batatu ubona bishimye bari guseka, bambaye impuzankano zose zisa umweru, inyuma yabo hari undi wahagaze ufite ifoto mu biganza bye yanditseho, tora Kagame Poro.

Aba ni abantu benshi bahagze ahantu hamwe, higanjemo abakuze ndetse n'abatoya, imbere yabo hari umugore usokoje imisatsi ari imbere y'indangurura majwi yambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'umweru.

Uyu mugabo uri imbere y'abandi wambaye ikote ry'ubururu bwijimye ndetse n'ishati y'umweru, ufite igikombe muntoki ze, umusatsi we usokoje urabona ko akeye cyane, ni nyakubahwa perezida w'igihugu cy'urwanda.

Iyi ni ninzu nininizengurutswe n'amatara yaka neza amabara yose. Yuzuyemo abantu benshi higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bose baricaye ahantu hamwe ku ntebe zijya gusa.

Ahantu hateraniye imbaga y'abantu benshi, harimo bamwe bambaye impuzankano y'umweru, ubururu, ndetse n'umutuku, si ibyo gusa kandi hari n'abashinzwe umutekano, nk'uko bigaragara hari kubera igikorwa kijyanye no kwiyamamaza cyangwa se amatora.

Aba ni abantu benshi ubona bahagaze ahantu hamwe himo abakuze abagabo ndetse n'abagore barakeye cyane bari ku murongo urabona ko ari ibintu byiza bibereye ijisho ry'u bireba.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, uri kugendamo ikinyabiziga gitwara imizigo cy'umweru, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda munini ugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba imodoka, moto, ndetse n'amagare hari n'abantu kuruhande bari kugenda abandi bahagaze urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, yaba ibyikorera imizigo ndetse n'ibitwara abantu, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga imiyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugabo utagaragara neza, wambaye umupira w'umutuku, ipantaro ijya gusa ubururu, ari ku igare aratwaye, inyuma ye hari imizigo n'imifuka igiye itandukanye, hirya gato hari amamodoka menshi cyane.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, yaba ibyikorera imizigo ndetse n'ibitwara abantu, ku ruhande hari ibiti birebire by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga byose bigendamo.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'igare, imodoka itwara imizigo ndetse n'abantu hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru impande zose hagaze abamotari benshi cyane bari ku ma moto yabo imbere kandi hari inzu ndende ya etage.

Uyu ni umuhanda uvugwa ko bwa kaburimbo usizemo amabara y'umukara ndetse aturongo n'umweru n'umuhondo hagati ku ruhande ukikijwe n'ubusitani bwiza butoshye ndetse n'umuyaga kubawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda wuzuyemo ibinyabiziga ndetse n'abantu ku ruhande batambuka, hirya gato hari ibiti ubona birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi kubahakoresha bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo; usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru hagati haracamo ikinyabiziga cya moto iriho abantu babiri; hirya gato hari igiti kirekire cy'icyatsi gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bw'akaburimbo urasa umukara uragendamo ikinyabiziga gitwara abagenzi cy'ubururu n'umweru, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi binini ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hahagaze amagare menshi ndetse n'abantu bagiye batandukanye.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo moto ziri kugenda. Hirya gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ibi ni ibinyabiziga bitandukanye biri mu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, harimo imodoka moto ndetse n'igare hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi kubahagenda bose.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ibitwara abantu ndetse n'imizigo, hiryaga do hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usizwe amabara y'umukara urimo n'uturongo tw'umweru hagati, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, uragendamo ikinyabiziga cy'umutuku gitwara ibikoresho ndetse n'imicanga, hirya gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo uragendamo ikinyabiziga gitwara imizigo gisa umweru hirya gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka yikorera imizigo ndetse na moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubagenda bose .

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uturongo tw'umweru ku ruhande n'utundi tw'umuhondo hagati. Ukikijwe n'ibiti birebire binini ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi uragendamo ibinyabiziga bitandukanye.

Uyu umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara ndetse n'akarongo k'umweru, ku ruhande hari kunyura ikinyabiziga gitwara imizigo, hirya gato hari abantu bahagaze n'amagare ari kuwugendamo.

Uyu n'umuhanda munini wo mubwoko bwa kaburimbo urasa umukara uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye; ibitwara ibikoresho ibitwara ibikoresho ndetse n'amagare, sibyo gusa kuruhande hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi kubawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda wo mubwoko bwa kaburimbo, urasa umukara ,uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hirya gato hari ibiti birebire by' icyatsi ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini uba mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y' umukara ,uragendamo ibinyabiziga bitandukanye, icy' umutuku ndetse n' umweru, hirya Gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n' amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'ibitwara imizigo haracaho abantu, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda w'igitaka wuzuyemo ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara abagenzi hirya gato yawo hari ibiti birebire binini ni amashyamba ubona atanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bari aho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe namabara y'umukara hagati akarongo k'umuhondo utundi tw'umweru kuruhande ukikijwe n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi haragendamo ibinyabiziga bitandukanye.

Uyu ni umuhanda munini kandi mugari nkuko bigaragara hari gucamo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye yaba ibyikoreye imizigo ndetse n'ibitwaye abagenzi, hirya hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara uri kugendamo ikinyabiziga gitwara imizigo cy'umutuku, ukikijwe n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi bitoshye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, uri kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutwara abagenzi, ukikijwe n'ibyatsi byiza bitoshye harimo umuntu nawe uri kugenda.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru kuhande, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'ibyagenewe gutwara abagenzi, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n'umuhanda wo m'ubwoko bwa kaburimbo urasa umukara n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka itwara abagenzi ndetse na moto, ukikijwe n'ibiti birebire ubona byiza bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara uri kugendamo ikinyabiziga kizwi nk'igitwara abagenzi, amabara yacyo ni umweru ndetse n'ubururu hirya gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mubwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo igare, moto ndetse n'imodoka kuruhande hari ibiti birebire n'ibyatsi bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uturongo tw'umweru mu mpande zombi n'akandi k'umuhondo hagati, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni imodoka nini y'umweru ndetse n'amapine y'umukara, itwara ibijyanye n'imizigo iri mu muhanda mwiza munini, hirya gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku babikoresha bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, ku mpande zombi hahagazemo imodoka nziza cyane, ifite ibirahure bibonerana, hirya gato hari abantu barimo bagenda.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urimo ikinyabiziga gitwara imizigo, hejuru hicaye umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara irimo uturongo tw'umweru, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda mwiza munini wo mu bwoko bw'akaburimbo usize amabara y'umukara urikugendamo ikinyabiziga kinini ndetse n'igare riri imbere yacyo, ku ruhande gato hari ipoto ritanga umuriro w'amashanyarazi.

Uyu n'umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, urimo ikinyabiziga cyagenewe gutwara imizigo, imicanga, amabuye ndetse n'ibindi. Abantu babiri bari gutambukamo, hirya gato har'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda mwiza wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara umuhondo hagati ndetse n'uturongo tw'umweru ku mpande. Huzuye ubusitani bwiza, ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi. Hari kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ibyikorera imizigo ndetse n'ibitwara abantu hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye imodoka na moto abantu ku ruhande baracicikana, hirya gatoya hari inzu yo mu bwoko bwa etaje igerekerenyije.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka na moto kuruhande hari ubusitani bwiza butoshye gusa icyatsi ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara; uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo. Ukikijwe n'ibiti birebire kandi binini bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ukaba ukikijwe n'inkuta z'umweru ndetse n'amatara maremare yaka igihe hakenewe urumuri.

iki ni icyapa kinini kiranga amerekezo, kiri mu busitani bwiza bw'icyatsi ubona gitoshye, cyanditsweho n'amagambo ari mu mabara y'umweru, ku ruhande gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aha ni ahantu huzuye ibyapa byinshi byerekana amerekezo biri mu byatsi bitoshye hirya gato hari igiti kirekire ubona kinini gitanga umuyaga n'amahumbezi kubaraho bose.

Uyu n'umuhanda wo mubwoko bwa kaburimbo urasa umukara uturongo tw'umweru kuruhande, har'ubusitani bwiza ubona butoshye bubereye ijisho, ibiti birerebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi kubawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda munini w’amabuye ukikijwe n'ibiti birebire bitoshye by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi. Kubagenda bose yaba abantu ndetse n'ibinyabiziga.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda cyerekana ibyerekezo, kigizwe n'amabara y'umweru, umutuku, ndetse n'umukara, hasi hari ibyatsi byiza ubona bitoshye, ku ruhande kandi ari igiti kirekire gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bari aho bose.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'amabara y'umweru, umutuku ku ruhande ndetse n'umukara hagati cyerekana ibijyanye n'amerekezo, ikikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki cyapa cyo ku muhanda kiranga amerekezo kigizwe n'ibara ry'umweru, ndetse n'amagambo y'umukara, gikikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi ku ruhande bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bagera aho ngaho bose.

Iki ni icyapa kinini kimanitse ku muhanda kiranga amerekezo, kigizwe n'amabara y'icyatsi n'amagambo yandikishije umweru, hirya gato hari inzu yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, ubona ko ari ibintu byiza cyane.

Ibi n ibyapa byo mu muhanda bigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umutuku, ku ruhande hagati hari andi y'umukara, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki nicyapa kinini kimanitse mumuhanda cyerekana ibijyanye namerekezo kigizwe n'amabara y'icyatsi ndetse nimirongo y'umweru iri hagati amagambo nayo nuko kagarama nyamata hari abantu benshi nurujya nuruza muburyo bugaragara.

Iki n'icyapa gito kiba k'umuhanda cyanditseho mirongo ine kiri mumabara y'umweru ndetse n'umutuku kuruhande gikikijwe n'ibipangu byiza, ndetse n'ibyatsi birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi aho hantu.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, ndetse n'uturongo tw'umweru hagati hari gucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba imodoka ndende, moto, n'ibindi, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, haragendamo ikinyabiziga nk'imodoka, ukikijwe n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, ku ruhande hari ibyapa biranga amerekezo.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'umukara, hirya gato hari inzu nini yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara, hari kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imodoka ndetse na moto n'abantu bari kugenda ku ruhande, kandi hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni igipangu kiza kigizwe n'amatafari akabara k'umweru ku madirishya yacyo, kirimo ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi, ku batuye aho ngaho bose.

Iki ni igipangu kirekire ubona kinini koko kirimo inzu igerekeranyije, igizwe n'ibirahure gusa hepfo gato hari ubusitani bwiza butoshye ubona butanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aha ni hantu hari ibyatsi bitoshye byiza cyane bisa icyatsi ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, si ibyo gusa hari n'amazu menshi cyane agiye agerekeranyije urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, uzengurutswe n'ubusitani butoshye bw'icyatsi kandi bwiza, hirya gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahagenda bose, urimo ibinyabiziga bitandukanye nka moto.

Aya ni amazu menshi ari ahantu hamwe yiganjemo ayo mu bwoko bwa etaje agerekeranyije asize amabara y'umweru n'ubururu bwijimye, akikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aha ni ahantu heza huzuye ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, biratoshye bisa icyatsi, hirya gato hari amazu yagenewe kubamo abantu ndetse n'ikinyabiziga gitambuka.

Aya ni amazu menshi ari ahantu hamwe bisa nkaho ari inganda iruhande rwayo hari ubusitani bwiza ndetse busa icyatsi kandi hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi kabahatuye bose.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije inshuro nyinshi ikikijwe n'amabara y'umweru ndetse n'ibirahure by'umukara imbere yayo hahagaze umuntu umeze nkaho ari umugabo .

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, usizemo uturongo tw'umweru kuhande, ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda muremure wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, ugiye ukikijwe n'ubusitani bwinshi, kandi bwiza n'ibiti binini ubona bitanga amahumbezi n'akayaga ku bahagenda bose.

Aha ni ahantu huzuye amazu menshi yo mu bwoko bwa etaje agiye agerekeranyije asize amabara atandukanye, iruhande rwayo hari ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aha ni ahantu huzuye amazu menshi yaba ari hasi cyangwa agiye agerekeranyije yo mu bwoko bwa etaje, hari ibiti birebire ubona by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye bose.

Izi ni imodoka nini nziza ubona zihagaze ahantu hamwe imwe irasa umutuku indi n'umukara; imbere yazo hari inzu yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije isize amabara y'icyatsi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uturongo tw'umuhondo ndetse n'utundi tw'umweru ku ruhande, uragendamo ikinyabiziga k'imodoka urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda, uri mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara, ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye ndetse n'inzu yo mu bwoko bwa etage ndende igerekeranije.

Aha ni ahantu huzuye amazu menshi nkuko bigaragara amenshi muri yo afite amabati y'umutuku andi asa umweru akikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye bose.

Aba ni abantu benshi biganjemo urubyiruko ubona bakeye cyane, bari kugenda ahantu huzuye amazu hari n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka.

Iyi ni inzu nini igizwe n'ambara y'umuhondo yo mu bwoko bwa etage iragerekeranyije hasi yayo hari imodoka nziza z'ubwoko bwose, ikikijwe n'ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aya ni amazu manini yo mu bwoko bwa etage agerekeyije, hirya gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahatuye ndetse n'abagenda bose.

Iyi ni inzu ndende igizwe n'amabara y'umweru ibirahuri by'umukara n'iyo mu bwoko bwa etage iragerekeranyije hirya y'aho hari igiti kinini cy'icyatsi ubona gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo. Urasa umukara uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ari ibitwara imizigo ndetse n'abantu. Ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urimo imirongo y'amabara agiye atandukanye umweru, umukara ndetse n'umuhondo uri kugendamo ibinyabiziga by'ubwoko bwose. Ku ruhande gato hari ibiti birebire ubona bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uciyemo uturongo tw'umweru. Ku ruhande hari ubusitani bwiza cyane, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda mwiza, munini, wo mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara, hirya gato hari uturongo tw'umweru ndetse n'ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi, bukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usizemo amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ibitwara abantu ndetse n'ibyikorera imizigo, hirya gato ari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini kandi mwiza wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru kuruhande ndetse no hagati, hirya gato har' ibiti birebire ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi sibyo gusa hari n'ikinyabiziga kiri kugendamo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara ndetse n'uturongo tw'umweru k'uruhande, ukikijwe n'ibyatsi bitoshye, n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara, umweru ndetse n'uturongo tw'umuhondo, hagati ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose, si ibyo gusa haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara ndetse n'uturongo tw'umweru kuruhande, ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti bitoshye by'icyatsi, haragendamo abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara, uturongo tw'umweru hagati, haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka ndetse n'abantu ku mpande akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda minini wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara uciyemo imirongo y'umuhondo ndetse nutundi tw'umweru imbere haraca ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo; amagare, moto ndetse nibindi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ni munini ugizwe n'amabara y'umukara, umweru ndetse n'uturongo tw'umuhondo ku ruhande, hakikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, ni munini nk'uko bigaragara mu bugari haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abantu kuruhande hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara uturongo tw'umweru kuruhande ndetse n'ubusitani bwiza butoshye, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo; urasa umukara, utubara t'umweru ku ruhande ndetse n'umuhondo. Uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga kubagendaho bose.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ubusitani bw'icyatsi butoshye n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bigendamo byose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara ndetse n'amabara y'umweru ku ruhande, ukikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara uragenda mo ikinyabiziga cy'umweru ndetse n'ubururu gitwara abagenzi hirya gato hari ibiti binini ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi .

Uyu ni umuhanda munini yo mu bwoko bw'akaburimbo usizwe amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, ku ruhande gatoya hari ubusitani bwiza butoshye urimo uragendamo ibinyabiziga bitandukanya.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo usizemo amabara hagati ku ruhande ni umukara, ndetse n'umweru uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye by'ubwoko bwose, hirya gato ibiti birebire binini ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, uhagazemo igare, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo, urasa umukara, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amabara y'ubwoko bwose, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi, ubona bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda munini wo bwoko bwa kaburimbo urasa umukara hari kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'amagare, hirya gato hari ubusitani burimo indabo z'umuhondo n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru n'umuhondo, uragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto n'ibindi, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi.